Ahantu harambitse amavalisi, inyuma yayo hari abapolisi bari kuyasaka bifashishije imbwa, cyane ko ihumurirwa cyane ishobora kumva n'ibintu birimo imbere umupolisi atabonesha amaso.

Imodoka itwaraga abagenzi, inyuma hari abagenzi batatu n'uwundi umwe uri guhengereza muryango. Hejuru yayo ifite icuma batwaragaho imizigo zirimo: igikapu imifuka, imipine yo gusimbuza igihe imodoka yaba ipfumukiye mu nzira.

Umupolisi ushinzwe ibinyabiziga, ahagaze ari kwereka ikinyabiziga aho gihagarara, iruhande rwe gato nko hepfo hari moto, ndetse ahagaze ayobora ikinyabiziga aho kigomba guhagarara.

Abashinzwe umutekano bari kuri palede, ni umurongo baherwagaho amabwiriza gatandukanye bagomba gukurikiza, bambaye ingofero, udupfukamunwa n'amabote, imbere ya bo hariho n'izindi myenda bambara.

Sale ikoregwagamo inama cangwa ubukwe, harimo abantu batandukanye bafite amakayi n'ajenda bandikagamo ibintu bavuzeho mu nama n'amakaramu go kwandikisha ,bafite n'amaji cangwa amazi bitewe n'ico ushoboye kunywa.

Feruje iyoboraga ibinyabiziga cyangwa abanyamaguru mu muhanda kumuhanda kuruhande hepfo mumuhanda harimo kwasiteri itwaraga abagenzi muburyo bwa rusange ruguru yayo hari i toyota n'umumotari utwaye umugenzi.

Daso igice gishinzwe umutekano wo mu gihugu, bakaba bari hano ku ikosi bigishwa kurashisha imbunda no kuziteranya, cangwa kuzishiramo amasasu no kugakuramo igihe baba bari kwitabara, cangwa igihe cose baba bari kugwanya umuntu ushaka guhungabanya umutekano gw'igihugu.

Abapolisi bashyize ingabo za bo imbere, bigaragara ko hari ikintu bari kwirinda, ndetse hari umuntu baporoteje kugira ngo hatagira ikintu kibi kimugeraho. Bamushyize hagati bafite ingabo ndetse na bo baririnze ahantu hose.

Inzu yahiye, abantu bahari bareba hari n'abandi bajya bitanga ubutabazi imbere y'isoko, hari iruhande hari ipoto y'amashanyarazi ,hari n'abantu benshi abari mu kazi kabo, ndetse n'abantu batanga ubutabazi bw'ibanze kuri iyi nzu

Ubwato bwa polisi bwifashishwaga mu gutabara igihe bibaye ngombwa habaye impanuka mu mazi, harimo abapolisi batandukanye, harimo n'uwambaye ijire ririndaga umuntu kuba yatebera mu mazi igihe aguyemo, mu mazi harimo abandi bapolisi babiri bambaye ibyuma bitumaga bahumeka bari no mu mazi hasi.

Sofiya, igikoresho co mu muhanda cifashishwaga mu gufotora ibinyabiziga byarengeje umuvuduko, hepfo yayo hari feruje, yifashishwaga nayo, mu kuyobora abanyamaguru cangwa iri kuyobora ibinyabiziga bitandukanye mu muhanda.

Umutetsi uri guteka kuri gaze, ishiga ryiza ritagirizaga ikirere cangwa ngo ribe jyagihumanya, iruhande gwe hari abagabo bambaye ibisarubeti, hepfo gato hari kizimyamwoto zizimyaga umuriro, hari n' umutaka abantu abantu bicayemo.

Moto ziparitse inyuma y'imirongo y'aho abanyamaguru bambukira. Hepfo yaho gato aho abanyamaguru bambukira, hari abapolisi batatu. Uw'umugore n'abagabo babiri. Inyuma yaho na ho hari imodoka za polisi.

Sale iberagamo inama zitandukanye, inyuma hari abagabo bicaye, umugore uhagaze, wa mugabo ufashe mikoro uri kugezaho abantu ikiganiro, yambaye ishati idodesheje ibice bibiri bidasa, yambaye n'amarinete.

Inama rusange yahuriyemo abaturage Polilisi n'abasirikare ndetse n'umudamu, ariko bagezaho ikiganiro abaturage batuje nyuma yaho hariyo ishyamba rifite ahantu abasirikare n'abapolisi bicaye inyuma y'aho hari ahantu hagaragara nk'aho ari umubande.

Umudamu ufite mikoro iruhande rwe hari abandi bagabo n'abadamu bicaye nk'inyuma ye, ari gutanga igitekerezo cangwa ari kubagezaho inyunganizi mu nama bakoze.

Inzu zikorerwagamo ibikoresho bya kera bitandukanye birimo ingoma, inkongoro n'ibindi byinshi, hepfo yazo hari abagabo bambaye imyenda zitandukanye zirimo iz'umweru n'iz'umutuku.

Intore zibyina imbyino za kinyarwanda. Zakoreshwaga kera mu kubyina hashimishwa abami, cyangwa mu kwakira ibirori bitandukanye, birimo ubukwe n'ibindi. Bambaye amadarapo, bafite amacumu ndetse n'ingabo.

Inzu ibikwagamo ibikoresho，nk'imigano n'ibindi bikoresho byifashishwaga mu gukora utuntu twa karafutiwaka，turimo udutebo two mu migano， cangwa intebe zo mu migano， zigaragara neza kubera ko ari intebe za gakondo zidasaba ibintu byinshi mu kuzikora.

Ababyinyi babyina imbyino gakondo imbyino zikoreshwa ingoma, bafite amacumu bambaye nk'intore ndetse bafite n'ingabo bakingira nk'uko kera hose babikoraga.

Inanga zifashishwaga kera mu gucuranga hatari haza inanga za kizurungu, zikaba ari inanga zakundaga gukoreshwa cane cane mu bitaramo bya nijoro ibwami, cangwa ahantu runaka ku bahanzi ba kera, batari bakabonye ibikoresho bya kizungu.

Inkono, igikoresho cyo mu rugo gikoreshwa mu guteka kibumbwa mu ibumba, kikaba cyarakoreshwaga hambere. Iruhande rwacyo hari ikirago n' ibuye rya radiyo.

Imbyino gakondo za Kinyarwanda, inyuma hari inzu gakondo ibitse umurage n'amateka by'igihugu cy'u Rwanda, ababyinnyi baba bafite ingabo, amacumu, bishyizeho n'imisatsi, bigaragara ko ari intore.

Agafuni ni agasuka gato kifashishwaga cane cane mu rukoro, mu gihe cyo kubagara, cangwa guhinga urukoro, ahantu hatari ubutaka bwinshi hagizwe n'amabuye menshi. Kifashishwaga cane cane mu gihe bagiye guhinga ibishimbo cangwa bagiye guhinga amajeri.

Abantu bari kuvuza ingoma mu kinyagwanda bazwi nk'abakaraza, bambaye imyenda za kinyagwanda ndetse bari kuvuza ingoma ari benshi bahagaze ku murongo.

Ababyinnyi babyina imbyino za kinyarwanda bafite amacumu, bafite ingabo, bambaye nk'intore nk'uko byahoze. Mu Rwanda rwa kera babyinaga imbyino za kinyarwanda.

Abantu bambaye imikenyero, bari gusogongera ku nzoga nkuko kubyakorwaga mu muco wa kinyagwanda, abantu iyo bajyaga mu bukwe, babanzaga basogongera ku nzoga, ndetse bakayiha no ku mugeni, n'umushyitsi mukuru.

Umugore uri mu ngobyi yifashishwaga kera mu gutwara abatware cyangwa umwami, imbere ye hari umugabo wikoreye ikibindi cyifashishwaga mu gutwara inzoga, ruguru hari umugore wakenyeye imyenda ya kinyarwanda abantu bakenyeraga, mu gihe babaga bagiye mu birori cyangwa mu bukwe.

Nyakatsi zakoreshwaga kera hatari haza iterambere ry'abazungu, izitijwe n'ibiti imbere yayo hari iy'indi nzu ya nyakatsi nini ifite n'akazitiro k'uturabyo tuyigira nziza nubwo zaciwe ubu ngubu zitakibaho.

Gwifashishwaga mu kwenga inzoga, gurambitseho uduti natwo twifashishwaga mu kuvanga inzoga hepfo yayo hari intebe irambitseho ingobyi ,ifite iriho n'ingata ku njishi hepfo yayo hari igicuba , isekuro n'icumu.

Umudamu uri kumwe n'umugabo bacanye ari kugosora yifashishije inkoko mu gwego rwo gusobanura imyanda n'ibishimbo, kugira ngo babiteke bimeze neza nta myanda irimo kuko bishobora kubatera indwara babitekeye aho.

Agaseke, igikoresho gakondo gikoreshwaga mu kubika cyangwa kugemura ahantu habaye ubukwe, cyangwa ibindi birori bitandukanye mu Gwanda, imyaka cyangwa ipfukire, kaba ari agaseke kabayeho kuva kera kubera ko kigigwaga kuboha mu rubohero n'abagore cangwa abakobwa.

Inkono zikoreshwaga mu buryo butandukanye, burimo ubwo guteka cangwa kubika ibintu, bitewe n'ico umuntu wayiguze ashaka kuyikoresha, zikaba ari inkono zibumbwaga mu mabumba, ndetse zikaba zarakoreshwaga no hambere amasafuriya gatarigaza.

Igikoresho cyo mu rugo, gikoreshwa mu kubika cyangwa mu kugemura imyaka ahantu habaye ubukwe, akaba ari igikoresho cya gakondo gisanzwe gikoreshwa mu rwanda, cyane ko no hambere, abantu batozwaga kukidoda abakobwa, mu cyumba bitaga urubohero.

Inzu zakoreshwaga kera mbere y'ubukoroni, abakoroni batari baza ngo bazane izindi nyubako zitandukanye n'izi. Inzu za nyakatsi zubakwaga hakoresheje ibyatsi n'ibiti, zikaba ari inzu zitizewe kuko zakundaga no gusha.

Umuvure uteretse ku kirago, ndetse umuvure ni igikoresho cyakoreshwaga hambere mu kwenga inzoga: Urwagwa cyangwa igakoreshwa mu ukugaburira amatungo atandukanye yo mu urugo.

Ikiraro kibagamo amatungo gatandukanye, yaba ihene, inka cangwa n'ingurube, imbere yayo hari ifumbire yifashishwaga mu buhinzi, ari ubuhinzi bw'ibirayi cangwa ubw'ibigori, ikaba yongera ingano y'ibihingwa n'umusaruro.

Inzu ibamo ibikoresho gakondo bya kinyarwanda bya kera bitandukanye, ikaba ari inzu ndangamurage y'u rwanda irimo ibikoresho bigiye bitandukanye abami bakoreshaga n'abantu bo hambere b'abanyarwanda.

Umwana ufashe umuhini gw'isekuru uri gusekura. Isekuru yifashishwaga mu gusekura isombe cangwa imiti, kuko isekuru ikora nk'imashini ibetaga amasombe cangwa izindi miti zikaba zakamugwa byoroshye, cangwa zigatekwa byoroshye zigasha vuba.

Umudamu ufashe igicuba cyifashishwaga mu gufata amata bakagacunda kakavamo amavuta, yicaye ku kirago, igikoresho ca kera abantu banararagaho, hejuru yaho yashizeho igitambara co kurinda igicuba kugira ngo kitangirika.

Abakaraza bavuzaga ingoma kera ingoma za kinyarwanda mu birori cangwa ahantu bari kwakira Umwami , inyuma yabo hari abantu bari kuririmba bambaye imyenda za kinyarwanda zirimo imikenyero bakanacurira kugira ngo injana yumvikane neza.

Ibisabo bijishije ahantu hejuru aho bidashobora kwangirika, akaba ari ibikoresho byakoreshwaga kera mu kuvangura amata n'amavuta, wacunze igihe kirekire amata akivangura n'amavuta, amavuta akoreshwa mu buryo bwo guteka, cyangwa kwisiga, amata akanyobwa.

Ingoma zakoreshwaga hambere za kizungu zitari zaza, zakoreshwaga mu birori bitandukanye birimo ubukwe, kwakira abami n'ibindi birori bitandukanye byabaga hambere.

Ababyinnyi bari kubyina imbyino gakondo za kinyarwanda, batambitse amaboko, ndetse zikorwa cyane cyane kuzamura amaboko, bagaragaza inka z'inyambo.

Abakobwa batatu bambaye imyenda yo hambere, bafite n'ibisabo byakoreshwaga hambere mu gucunda amata bayakuramo amavuta, kugira ngo abashe kwifashishwa kuko icyo gihe iterambere ryari ritaraza.

Uduseke dutandukanye dufite amabaraga atandukanye y'umukara n'umweru n'ak'umutuku n'umweru ndetse n'utw'umukara dufite dizayine zitandukanye. Ni udukoresho dukoreshwa mu kubika cyangwa mu kugemura ibintu by'imyaka.

Umusururu gwabize guteretse mu kibindi. Kubira k'umusururu ni ikimenyetso ciza cerekana ko ari umu umusururu mwiza kandi gwahiye, gugakurwa mu kibindi gunyobwa cangwa gukanyorebwamo hifashishijwe imiseke.

Agaseke igikoreshwa kiri muri gakondo y'u Rwanda, byakoreshwaga kuva kera mu kugemura cyangwa kubika ibintu, bikaba byaritozwaga mu rubohero aho abakobwa baboheraga ibintu bitandukanye birimo ibirago cangwa imyenda.

Agaseke gakoreshwa mu kubika imyaka cyangwa mu kugemura imyaka, kakaba karakoreshwaga no mu Rwanda rwo hambere, aho bakabohaga mu rubohero ahantu hari hazwi nk'ahantu hajyaga abagore gusa n'abakobwa.

Inzu ya nyakatsi : inzu kera abantu babagamo ,ubungubu zikaba zaraciwe kuko zitari zujuje ibisabwa na leta kugira ngo umuntu abe yayibamo Ibe itamuteza ibyago.

Imivure ibiri zifashishwaga mu gihe co kwenga inzoga, n'uduti tuzirarambitseho twifashishwaga mu kuvanga, hepfo yayo hazitirije n'ihema, ziriho n'umukekan n'ikirago, imivure nazo zirambitse ku kirago, hepfo yazo hari igiti.

Umutiba ubamo inzuki zitanga umusaruro urimo ubuki, bukoreshwa mu kuvura cyangwa bugakoreshwa mu kuribwa mu bintu bitandukanye, harimo gushyirwa mu nzoga zengwa nk'umusururu.

Igisoro, umukino gukinwaga n'abantu babiri batandukanye, umwe yicaye hepfo undi ruguru, bagakoresha utu dupira turi mo, umuntu uriye akadukura mo akadufata, ni umukino mwiza.

Inka z'inyambo za kinyarwanda zigira amahembe maremare, hari umugabo uri kuyikama yayiziritse umujishi, kugira ngo idatera imigeri. Inyuma y'iyo nka hari ikiraro ibamo, kuko inka zitemerewe kurara ku gasozi, ifite n'akandi kanyana yabyaye.

Inzu, mo imbere yubatsemo inzu ndangamurage irimo amateka g'u Rwanda, harimo ibikoresho abami bakoreshaga kera iterambere jy'abazungu ritari jyaza. Imbere y'iyo nzu irimo amateka g' u Rwanda hari inkweto ziharambitse z'umuntu winjiyemo.

Intore zibyinaga imbyino za Kinyarwanda ,nyuma yazo hari inzu ndangamurage y'u Rwanda, ibitse amateka y'igihugu babyinaga bafite icumu n'ingabo nkuko kera byagendaga.

Ibibindi bibikwagamo inzoga, bikaba birimo imiseke yifashishwaga mu gusuzuma niba inzoga yahiye, biteretswe ku ngata ibirindaga kuba byakwizunguza ngo bimeneke ndetse izo ngata ziri ku kirago.

Isekuru, igikoresho cyifashishwa cyane cyane mu gusekura isombe, cyangwa gusekura ibindi bintu baba bashakamo ifu, cyangwa bashaka kugira ngo bibe byaba nk'ibibese, bikoreshwe cyangwa bitekwe nk'imboga, cyangwa isombe cyangwa ibindi bintu nk'umuti.

Uduseke twinshi dukoreshwa mu kubika cangwa kugemura imyaka itandukanye, bayivana hamwe bayijana ahandi habaye ibirori cangwa ubukwe, mu Rwanda cane cane uduseke dukoreshwaga nka gakondo, kubera ko kuva kera twari duhari twakogwaga mu rubohero.

Inka z'inyambo za kinyagwanda zakundaga kubaho kera, zifashishwaga mu bukwe cangwa ahantu habaye ibirori, zigaragaza ubwoko bwiza bw'u Gwanda ndetse ziKarushaho no kugaragaza umuco mwiza w'Abanyagwanda.

Umudaho igikoresho co mu gikoni gikoreshwaga ku gihe co guteka isosi, kirambitse ku meza akaba ari igikoresho gikoreshwaga cane cane mu guteka isosi, igihe abantu batetse umuceri cangwa umutsima bakoresha bavanga isosi cangwa ibirungo by'isosi.

Umuntu ufite umuduri, igikoresho cyakoreshwaga nk'inanga, kera inanga za kizungu zitari zaza. Akaba afite n'igicurangisho cy'umuduri. Inyuma ye hari ishyamba.

Igicuba kifashishwaga mu gucunda amata gakavamo amavuta. Umudamu ugifashe yicaye ku kirago ndetse ahantu igicuba kirambitse ni ahantu kidashobora kwangirika, inyuma ye hari abadamu babiri, hepfo ye gato hari umugabo ufashe igikayi ca rojistre.

Umugabo uri kuvuza ihembe ryakoreshwaga kera cane cane igihe habaga habaye impuruza ibwami, habayeyo ikibazo kugira ngo abasirikari bitegure bamenye ko haje ikibazo, gisange biteguye nta kibazo bafite bafite n'ibikoresho mu ntoki.

Ibikoresho gakondo byo mu Rwanda birimo uducuma turimo n'imiseke birambitse ku mukeka. Uducuma tukaba dukoreshwa mu kunywa inzoga za kinyarwanda ndetse n'umuseke wifashishwa mu buryo bwo kunywa inzoga byoroshye kuyikura mu ducuma.

Imbyino za kinyarwanda zikoreshwaga n'intore. Zahabaga hambere mu minsi z'abami aho abami, babyinaga bifashishije ingoma za kinyagwanda.

Umugore ufite akantu aboheshaga umufuniko gw' igiseke, cyifashishwaga mu kubika cyangwa kugemura imyaka ku bantu bagiye mu bukwe cyangwa mu birori bitandukanye, kikaba ari igikoresho cyakoreshwaga na mbere kuko no ku bwami bigaga kubidoda ahantu bitaga urubohero.

ingobyi yifashishwa mu kwimura abatware, itwawe n'abasore bane cyangwa ikifashishwa mu gihe cyo gutwara umugore w'umwami cyangwa umwami, mu gihe avuye ibwami agiye gusura ahantu mu Turere hakure, yarebaga abasore akaba aribo bamutwara, kubera ko nta binyabiziga byabagaho.

Ishusho ya Bikiramariya izengurutswe, izitiwe n'uruzitiro ruyirindaga abantu batandukanye bashobora kuba baza kuyangiriza hejuru yayo iriho M , n'akamenyetso k'umusaraba karanga ko ari umunyempuhwe kandi akaba yaravuye mu ijuru.

Kiliziya Gatolika yubatswe mu buryo bwa kijambere. Ikaba ari inyubako nini yakiraga abakirisitu benshi baje kuyisengeramo batandukanye. Mu rubaraza rwayo hari abantu batatu, harimo umugabo wambaye kositimu n'abadamu babiri umwe uhetse umwana.

Inzu ikorerwamo amasengesho. Hepfo yayo hari agandi mazu y'abaturage. Ndetse imbere yago ku pavoma aho imodoka ziparitse, ruguru y'aho imodoka ziparika, hari jaride irimo indabo n'ibiti bihagira heza.

Ikiraro cyifashishwa mu buhahirane bw'ibintu bitandukanye, cyangwa kwambukaho abantu bava iwabo bajya mu mirima, ni ikiraro cyubatswe ku bufatanye na leta n'inkingi zacyo, zigizwe n'amadarapo y'igihugu cy'u Rwanda, hakabamo indani hagati hari umugore uri kucyambukiraho.

Abakobwa bakina basikete iruhande rwabo hari abafana, amazun'ahantu hari geti. Ni mu kigo cy'amashuri bambaye imyenda isa, abantu bari ku ruhande bari gufana iyi basikete iri gukinwa hano kuri iki kibuga.

Urusengero rwa Kiliziya Gaturika, imbere yarwo hari amatente; amahema abantu bubatse, ndetse hari n'abantu bagiye batandukanye bitwikiriye imitaka, ni urusengero runini rushobora kwakira abantu benshi.

Umuhanda guriho ikiraro kikiri gukogwa, iruhande rw'aho hari abakozi bashinzwe gukora ku ico kiraro, inyuma y'ikiraro hari imodoka zitegereje kwambuka z'amakamyo, iruhande gato hepfo hari umucanga guharunze, gwifashishwaga mu gukora igihe bari gukora ico kiraro bifashishije sima.

Umusigiti inzu isengerwagamo n'abasilamu cangwa n'abandi bantu bashaka kubajamo. Ruguru yayo hari imodoka zihaparitse ku muronko, hari n'umugabo wafunguye imodoka imwe urugi hepfo ye harindi mudamu w'umusilamu witeze shariye.

Inzu y'urusengero rwa adepi ikaba ari inzu nini ishobora kwakira abakiritu benshi ku rubaraza hejuru hubakishijwe ibirahuri kadezayine yo kugira urusengero rwiza kurushaho akaba arurusengero rufite n'urubaraza runini abantu bashobora kugamaho bataje gusenga cyangwa urusengero rudafunguye.

Urusengero rurimo intebe nyinshi rufite imijyango itatu harimo n'umujyango gufite umusaraba hijya hari umujyango ufite utudurishya twinshi hejuru turimo ibirahure kugira ngo bije biratanga urumuri mu rusengero.

Ibiro by'kagari, bikoremo n'umunyamabanga mukuru w'akagari, iruhande mu rubavu hari ikigega kijyamo amazi avuye ku kagari, ugarutse mbere gato ku rundi ruhande hari parikingi iparikamo imodoka z'abayobozi, cyangwa abantu baje kwaka serivisi kuri ako kagari.

Urusengero rufite abantu baruhuriyeho ari benshi, bigaragara habaye igiterane, abantu bari butange ubutumwa bahagararagaho, ndetse n'abantu bari bwakire ubutumwa bakaba bari hasi bategereje kwakira ubwo butumwa.

Inzu yanditsweho ibiyiranga ko ari inzu y'ibiro by'Intara y'Amajyaruguru. Ndetse ikaba ari inzu ikoze neza ifite ibirahure ndetse inateye irangi.

Inzu ya etaje irimo ibiro by'Akarere ka Gakenke, imbere yayo hari umugabo wambaye agapira k'umutuku n'ipantaro, n'ahandi imodoka zinyuraga na jaride igizwe n'umucaca amaborodire go kuyirinda.

Imodoka itwaraga amazi go gutosa mu muhanda igihe wajemo umucucu ,inyuma yayo hari indi mashini itsindadagiraga umuhanda, iyimbere, ikamena amazi iyinyuma igatsindagira ,kugirango umuhanda gukomere.

Ikiraro cifashishwaga n'abaturage mu kwambukiranya bava mu gace kamwe baja mu kandi, cangwa n'imodoka na zo ziva mu gace kamwe zija mu kandi, zijanyeyo ibintu bitandukanye birimo ibiribwa, cangwa ibinyobwa, cangwa guhahirana kw'abaturage bava mu isoko rimwe baja mu rindi, cangwa se ubusurane bwabo.

Urusengero rwa kiriziya gatorika rwifashishwaga n'abakirisitu b'abakatorike basengaga ku cumweru, ruguru yago hari ahantu hameze nk'agatejeri, hariho umusaraba, ndetse no ku rusengero hejuru hari umusaraba uranga ko hari urusengero rw'abakatorike.

Urusengero runini cane rwubatse neza, rufite akabingaro abantu bashobora kugamaho n'igihe abantu baba bataje gusenga, bakagira n'akandi kazu kanini kagaragara neza, ndetse karugira gwiza kurushaho.

Umuhanda wa kaburimbo, iruhande rw'umuhanda hari amazu azitijwe n'ibipangu by'amatafari ahiye, iruhande rw'umuhanda gato hari amaborodile ateye irangi ry' umukara n'umweru.

Ikiraro gikoreshwaga mu buhahirane cangwa mu gusurana kw' abantu batandukanye cangwa n'abanyeshuri bava kwiga mu gace kamwe baja mu kandi, kiriho abagabo, abagore n'abana bari kwambuka baja mu duce tubiri dutandukanye.

Urusengero gwa adeperi rufite imiryango ibiri n'urubaraza, n'amasikariye, hanze iburyo bwarwo hari lavabo yifashishwaga mu gukaraba intoki mu rwego rwo kwirinda indwara zanduraga zinyuze mu mwanda, cangwa mu gusuhuzanya igihe umuntu atakarabye intoki.

Inzu ya etaje, ifite parikingi iparikamo imodoka z'abandi baje kuhareba, ikagira parikingi isakaye, iparikamo imodoka igihe imvura iri kugwa, kugira ngo zitanyagirwagws, imbere yayo ifite jaride， irushaho kuyigira nziza, n’inzira abantu banyuramo bagiye.

Abantu barimo abagabo n'abagore bari kubaka akarima k'igikoni, inyuma yabo hari ikiraro c'amatungo, izindi nzu zitandukanye z'abaturage barimo kubakirwa ako karima k'igikoni kugira ngo babashe kubona imirire myiza irimo imboga.

Urusengero rufite amadirisha menshi gatangaga urumuri mu nzu. Impande yarwo hari umuntu uri kugenda. Urundi ruhande ruriho inzu yifashishwaga mu guteka mu gihe bakiriye abantu ba kure bakahava bariye.

Urusengero rwa kiliziya gatolika gufite umusaraba hejuru n'utundi tuzu tubiri tw'agasongero dufite umusaraba. Urusengero rufite amasikariye abantu buriraga aho bari kurujamo rukaba rufite iruhande rwago iyindi nzu nayo nziza iteye irangi ry'umweru.

Urusengero gwubatse neza, rufite na jaride, inzira nini yo kunyuramo, imbere yagwo hari ishusho ya Bikiramariya igaragaza ko ari urusengero rw'Abakatolike, rusengerwamo n'abantu benshi.

Inyubako y'urusengero ikoreshwaga mu gusenga. Ikaba ari inzu nziza nini cane ishobora kwakira abantu benshi batandukanye baje kuhasengera.

Igipangu kirimo inzu, inyuma gishushanyijweho ibishushanyo bitandukanye, ndetse biriho n'amagambo ,bigaragara ko abana bahigira bitewe n'ibishushanyo bihari ndetse nibyo bigaragaza.

Ikiraro c'inka nyinshi zitandukanye, gifite ingombe nka zigaburirwagamo kikagira abantu bazigaburiraga, ndetse hakaba naho inyana zizirikwa, kwirinda kuba zakwangirizwa n'inka nkuru.

Umudamu ufite mikoro ,inyuma ye hahagaze umudaso ,ari kubwira abantu bicaye bamukurikiye ,inyuma ye gato hateye ibigori nko ruguru ndetse no hepfo gato, inyuma y'umudaso hari n'amazu.

Ahantu hahuriye abantu benshi baje kumva amabwiriza cyangwa gukemura ibibazo baba baragiranye bo muri rusange .Harimo polisi yaje gukemura ibyo bibazo by'inzego z'umutekano zo mu rwanda zishinzwe gukemura ibibazo by'abo.

Ahantu hahurizwaga ibicuruzwa bitandukanye birimo imiceri zivaga hanze cangwa ibindi biribwa bivaga hanze, hari umugabo utwaye imashini itwaraga imifuka myinshi kubera ko abantu batazishobora, zibaga ziremeye.

Ahantu haparikaga imodoka zirimo Jaritaransipoti, zikabamo na Litiko zitwaraga abagenzi, zibavana mu gace kamwe zikabajana mu kandi, imbere yazo nko hagati harimo abagabo bari kunyuramo n'uwundi uhetse igikapu

Tirinite bisi itwaraga abagenzi, cane cane abagenzi bambukiranya imipaka, bava mu Gwanda baja mu Bugande cangwa muri Kongo. Hepfo mu muhanda gw'abagenzi, hari abanyamaguru barimo abagabo bari kwambukiranya, n'abagore bahagaze hijya yabo.

Ahantu imodoka ziparikaga ari nyinshi hazwi nko muri gare, abantu bahuriraga baje gutega bagiye cangwa bava ahantu bari kugira ngo babashe kuva mu gace kamwe baja mu kandi, mu duce dutandukanye tw'igihugu.

Bisi itwara abagenzi mu mujyi wa Kigali, hepfo gato mu muhanda hariho umumotari ndetse ni n' aho abantu bambukira muri kaburimbo, harimo abantu binjira mu modoka ndetse n'abasohoka, hari n'abandi bategereje bari aho.

Abantu bakora ko ikibuga cy'indege, bambaye amajire abigaragaza ko ariho bakora .Ndetse hari indege ya Rwandeya itwara abantu ibavana mu gihugu cyangwa ibazana.

Imodoka ya fuso ipakiye ibitaka. Nk'imbere yaho gato kuruhande hari umuntu, kurundi ruhande irikumanuka kumusozi ipakiye.

Gare iparikagamo amamodoka gatwaraga abagenzi. Gabakura ahantu hamwe gabajana ahandi, bitewe n'aho ushaka kuja. Harimo ama bisi kowasiteri, ndetse n'abantu bari gutega izo modoka bitewe n'aho bagiye.

Amagare abiri gatwaye ibitebo byifashishwaga mu gutwara inyanya cangwa gutwara intojyi, rimwe riri kumanuka ritwawe n'umugabo, irindi riri kuzamuka riri gusunikwa n'umugore, inyuma yabo hari uwundi mugore uri gutambuka mu nzira afite agakapu ko ku ruhande.

Imodoka zizwi nka tagisi vatiri zifashishwaga mu gutwara abagenzi bari pirive, ruguru yazo hari umugore uri kugenda n'amaguru inyuma afasha akanvilope, imbere ye gatoya hari umugabo uri gusunika akagare, ndetse mu izo modoka harimo n'imodoka ifunguye buto.

kwasiteri imodoka yifashishwa mu ngendo ,abantu bamwe bava ahantu hamwe baja ahandi ,ikabikora ikoreshwa na kampani cyangwa ari iy'umuntu ku giti cye cyangwa ari iy'abanyeshuri bitewe nuko nyirayo yayiguze ayishaka kuyikoresha.

Imodoka itwaraga abagenzi mu buryo bwa rusange iri gusohoka mu muryango gwa gare ya Rubavu , ruguru yayo mu rubavu hari igare ry'umuyonzi muri gare hagati harimo imodoka ya kwasiteri nayo itwaraga abagenzi mu buryo bwa rusange.

Imodoka za hoho zitwaraga imizigo itandukanye zirimo imicanga, ibitaka byifashishwaga mu kubaka cangwa amabuye. Imodoka nziza kuko zitwara ibintu byinshi, zikaba zazanira nk’umucanga wakubakisha inzu yawe inshuro imwe.

Abantu, abagabo n'umugore basohoka mu indege ya Rwandeya, ikorera mu uRwanda no muri Afurika muri rusange, ijyana abagenzi ibavana mu uRwanda, ibajyana mu ibindi bihugu cyangwa ibakura muri ibyo bihugu ibazana mu Rwanda.

Bisi itwara abagenzi iruhande hari icapa kigaragaza aho igeze kagitumba boda k'umupaka wa Katumba. Bivuga ko nyine ivuye cangwa igiye mu Bugande iza mu Rwanda. Iyi ni imodoka yambukiranya imipaka itwara abagenzi bava mu Bugande baja mu Rwanda, cangwa baja mu Buganda bava mu Rwanda.

Moto ibiri ziri mu muhanda gwa kaburimbo, imwe itwaye umufuka gurimo inyama. Imwe itwaye umugenzi, hepfo yaho hariho jaride itandukanya g'imihanda n'uruzitiro rurimo imashini, iteruraga ibintu biremereye.

Umuhanda gwa kaburimbo gucumitanye n'umuhanda gw'igitaka, hariho na leta z'aho abantu bahagararaga n'amamodoka gahagaraga, gari gutwara abantu gabavana ahantu hamwe gabajana ahandi. kuri iyo leta hahagaze abamotari babiri n'umugabo n'umugore, umugabo wambaye kasike uri gutega moto.

Inzu icururizwagamo ibinyobwa bitandukanye, ni inzu ya etaje birimo bombasitiki jini, yunayitidi jini n'izindi zitandukanye, imbere ya yo hari umuhanda gurimo bisi yatwaraga abagenzi na moto.

Imodoka mo mbere iri gushya, imbere ku muryango hari umugabo ufashe ku muryango no ku mifuka, ahetse imbunda. Inyuma imodoka itwaye imizigo mu bifuka binini harimo n'ibitoki, imodoka iri gushya mo imbere aho shoferi atwarira.

Imodoka ihagaze ipakiye icayi ,imbere yayo hari abagabo bari ku rubaraza rw'inzu, inzu bi itunganyirizwamo icyayi cyavanwe mu murima,

Lifani yifashishwaga mu gutwara imizigo itandukanye itwaye intebe, hejuru y'intebe hari umufuka n'amabafure, hijya inyuma yayo hari umugabo ufashe kuri moteri ipakiye, imbere irasakaye kugira ngo umuntu uyitwaraga ataja aranyagigwa.

Sitela, imodoka ya kwasiteri yifashishwaga mu gutwara abagenzi, ibakura mu gace kamwe ibajana ahandi, iri mu muhanda gufite ikoni mbere gukagera n'amapoto gatagira amatara ari umuhanda gutari gwageramo amashanyarazi.

Gare cyangwa aho imodoka zihagarara, abanyeshuri bavamo bajya cyangwa bava ku ishuri. Bagenda uruhererekane rwabo ari benshi batandukanye.

Uruganda rw'imbuto zitandukanye rurimo udukarito dutwarwamo imbuto, hakabamo haparitsemo n'imodoka z'amakamyo zitwara izo mbuto zizivanye muri urwo ruganda zibikwamo, zizijyanye mu duce dutandukanye tw'igihugu kugira ngo zikoreshwe.

Akayira kagendwagamo n'abanyamaguru hepfo yako haparitse amagare, ndetse imbere gato hari abacuruzi b'ibicuruzwa bitandukanye.

Imodoka yo mu bwoko bwa Kwasiteri itwaraga abagenzi. Ikaba ari imodoka nziza ishobora gutwara abantu benshi ibakura ahantu hamwe ibajana ahandi, ndetse ikaba imodoka ikunda gukoreshwa n'amakampani, kubera ko itwaraga abantu benshi mu gihe gito.

Imodoka ziri kugenda ku murongo zafashwe na ambuteyaje ishobora gutegwa n'abagenzi bari imbere cangwa se n'ikibazo cabaye imbere c'impanuka. mo hagati harimo abamotari bicaye kuri mamoto gabo, bambaye na kasike nk'uko amategeko go mu Gwanda gabiteganya.

Imodoka ikoreshwaga mu gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ikaba imbere ifite imashini, ikoreshwaga n'ikarita ukozagaho amafaranga, gakavaho bitewe n'ahantu ugiye. Ruguru hari umushoferi uyitwaraga, yambaye agapira k'icasti, n'ipantaro y'igitaka.

Ahantu imodoka z'amakamyo ziparika, zitwara imizigo irimo ijya hanze y'igihugu cangwa iba mu gihugu ,amakamyo manini atandukanye harimo izipakiye n'izidapakiye.

Imodoka itwaraga umusaruro gw'ababaturage gwa wotameroni, iguvana ahantu hamwe igujana ahandi mu gwego gw'ubucuruzi. Hepfo yayo mu muhanda harimo imodoka ya pirive itwaraga abantu. Inyuma yayo hari umuntu wambaye umupira wa makumyabiri na gatatu.

Imodoka ambulance yifashishwaga mu gutwara abagwayi bagize ubugwayi bukabije, ikabakura ku bitaro bimwe ikabajana ku bindi mu bujyo bwihutigwa, Mu kinyagwanda izwi nk' imbangukiragutabara. Imbere yayo hari abantu bari kuyireba yahawe ikigo nderabuzima ikiri nshasha.

Umumotari utwaraga moto afite kasiki ibiri ,yicaye kuri moto ye, imbere ye hari inzu na jalide birimo indabyo nziza zituma inzu iba nziza kurushaho.

Umugabo uri gutambuka mu muhanda wikore umufuka urimo ibintu ,hepfo ye hari butike icururizwagamo amabati, n'amamatora, ruguru gato mu muhanda harimo abagabo bari kwikorera amasima bagakuye mu modoka.

parikaga moto zikoreshareshaga amashanyarazi cane cane zikoreshwaga mu mujyi wa kigali. Hari umumotari watwaraga ari inyuma ya moto ayifasheho imbere ya kasi kibiri uyu mugenzi ni yambaye nijiri iranga akazi akoraga.

Indege ya Rwandeya yifashishwa mu gutwara abantu ibavana mu Rwanda ibajyana hanze, cyangwa ibavana hanze ibazana mu Rwanda mu kirere. Hirya yayo ni ibicu ndetse no hino ni ibicu kuko ni mu kirere.

Igare rya ramuzini rizitsweho ibitebo byifashishwaga mu gutwara imyaka rizivana ahantu hamwe bazijana ahandi, hepfo yajyo hari umugabo wifashe mu mufuka wambaye amabote, imbere ye hari inzu icururizwagamo ibicuruzwa birimo inzoga.

Ku kibuga cy'indege, aho indege ziparika, hari imodoka zitwaye abagenzi, hakaba n'indege itwara imizigo, ikaba ari imodoka izanye imizigo igiye gupakirwa muri iyo ndege, cyangwa ikaba iri gusohoka muri iyo ndege igiye kujyanwa ahantu runaka.

Ibyapa biranga ahantu n'ibihakorerwa, icyapa cya mbere kiranga restobare icya kabiri kiranga piza, icya gatatu kiranga ahantu haparika imodoka zitwara abagenzi, zibavana ahantu hamwe zibajyana ahandi.

Imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange, zirimo kwasiteri na tagisi ,hariho n'abantu bari gutambuka bari gukoresha amaguru, imbere yazo hari umugabo wunamyemanda y'ipine, hari n'undi mugabo uraho ahagararanye n'umugore.

Imodoka zitwara abanyeshuri zo ku kigo cya hopesikurubasi koperative, ni imodoka ebyiri inyuma hari imodoka y'umuhondo n'imbere ni iy'umuhondo, ni imodoka zisa kubera ko zikoraa akazi kamwe. Mu muryango harimo umugabo wambaye agapira ko kuri iryo shuri, imbere y'imodoka haparitse moto ifite kasike mu mahembe.

Abamotari batwaye abagenzi mu muhanda w' amapave, inyuma yabo hari imodoka ibiri, iruhande rwabo hari abagenzi bagenda n' amaguru n' amapoto y' amashanyarazi, ruguru yabo hari n' umuhanda wa kaburimbo.

Indege ikoreraga muri Afurika igatwara abagenzi ibavana mu gihugu kimwe ibajana mu kindi cangwa igatwara imizigo izikura mu gihugu kimwe izijana mu kindi. Imbere yayo hari abantu bayikoragamo, inyuma yayo haparitse imodoka yifashishwaga mu kuzana imizigo.

Bisi ebyiri zitwara abagenzi, iruhande hepfo hari moto n'inyuma yayo hari moto. Ruguru hari inzu abagenzi bicaramo bategereje imodoka, kugira ngo ize ibajyane cangwa bamwe banavemo bageze aho baja.

Amagare abiri ari mu umuhanda, hino gato aho abagenzi bagendera harimo umugabo wambaye agapfukamunwa na karuvate, inyuma yabo hari moto ebyiri, kugahande gato hari amazu ndetse n'ibiti bitandukanye byongera ubwiza bw'ahantu.

Abantu bicaye ku magare, imbere yabo hari umurongo baratangiriraho irushanwa ryabo rya turu di Rwanda, rizengurukaga Igihugu cy'u Gwanda kuva mu mugi wa Kigali kugera mu turere twose tw'Igihugu hakoreshejwe igare.

Paniye, aho abantu bakina basiketi bashuta balo, hejuru imbere yayo hari amaboko abiri asa nk'aho ahanganiye balo, hejuru y'ayo maboko hari balo bahananiye, rugura hari stade y'abantu bafana basiketi.

Amagare gari mu muhanda mu irushanwa jya turudigwanda, rikoregwaga mu gihugu c'u gwanda, rikazenguruka igihugu cose, iruhande y'umuhanda hari abantu bari gufana irushanwa, urundi ruhande hari icapa kiranga aho abantu bageze hitwa Bushenge.

Irushanwa ry'amagare rizwi nka turu di Rwanda, ndetse ruguru hari umuntu uyareba n' urutoki, uruhande gato, borodire irinda abantu kuba bagwa ku ruhande rw'umuhanda cyangwa ngo bamanuke ku manga yaba ihari.

Abakinnyi bakinaga imikino z'amaboko zirimo vore cangwa se basikete bari kwifotoza ,ab'imbere barunamye, ab'ibinyuma barahagaze kugira ngo na bo bagaragare, ab' imbere bahagaze bakingiririza ab'inyuma ntibagaragare mu ifoto.

Sitade iri mu Gwanda mu mujyi wa kigali, yifashishwaga mu kwakira imikino zitandukanye, harimo umukino gwa basikete n'umukino gwa vole. Hepfo hari abantu bicaye baje gufana umukino gwabaye, ruguru hari umugore uri kwiruka yambaye shazibure.

Umudamu ufite paniye bakinisha tenisi yambaye agakufe, amarineti, isaha n'dukomo ndetse na jezi y'u Rwanda iriho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umukinnyi wa basikete cyangwa vole, inyuma ye hari sitade yicaramo abafana, iruhande rwe hari aho abayobozi bicara, cyangwa abantu bari butange ibihembo by'abatsinze baba bari.

Umukobwa cyangwa se umudamu ufite baro ya basikete, mu kibuga cya basikete ,hirya iruhande rwe hari paniye yo gutsindamo ,yo gushotamo ,ruguru hari inzu.

Abakobwa babiri bari mu kibuga, bari gukina umukino wa hendi, umwe afashe baro ya hendi yayizamuye hejuru, inyuma ye hari abatoza naho bicara ku ntebe zabagenewe, ni batatu umwe yambaye ingofero n'agapira k'umutuku.

Abakinyi bakinaga umupira imbere yabo hari balo ndetse bisa nk'aho bari kuyihanganira kugira ngo umuntu uyitwara abe ari we uyikina. Inyuma yabo hari abandi bakinyi nk'uko bisanzwe mu kibuga nta ukinaga ari umwe.

Ahantu hakorerwa amasiganwa y'imodoka mu muhanda w'ibitaka ufite ivumbi ryinshi, iruhande hari abapolisi barinda abantu, bagakumira n'imodoka zisanzwe zinyura muri uyu muhanda, kugira ngo zidateza impanuka, bakarinda n'abantu bakarebera inyuma, kugira ngo batabasha kuba bakora impanuka cyangwa bakabagonga.

Isiganwa ry'amagare eturu di Rwanda, hepfo yayo nko mu ruhande rwabo hariho amazu abantu batuyemo, harimo ni ibitoki ndetse n'avoka.

Abakinnyi b'ikipe y'igihugu Amavubi bahagaze, bari kuruhuka. Inyuma yabo hari icyapa, ndetse bamwe barahagaze, abandi baricaye, bari kuri sitade.

Inzu nziza ifite ahantu abantu bogeraga, ikaba ifite jaride iyigiraga nziza ya mu mucaca, n'indabyo zitandukanye zituma haba heza kurushaho.

Umukinnyi wa tenisi uri gukina tenisi. Mu cibuga cayo inyuma ye hari abafana, urundi ruhande rwanditseho Rwanda openi, akaba afite n'inkomi bifashisha mugihe bari gukina tenisi.

Isiganwa jy'amagare jya turudigwanda, inyuma hari amamodoka gatwaye amagare ku ubujyo umuntu uri mu isiganwa igare jye rigize ikibazo jyahita risimbugwa. Ku ruhande hari abafana bari gufana amagare.

Abakinnyi bakina umukino w'amaboko wa vore, bamwe barapfukamye abandi barahagaze, abapfukamye ni ukugira ngo abari inyuma bahagaze bagaragare neza, inyuma yabo kuri fire inyuma ya fire hariyo iyindi kipe yahoze ikina na bo, yambaye imyenda y'umuhondo n'icyatsi.

Ikibuga bakiniragamo tenisi kirimo abakinnyi batatu. Ni ikibuga gikinirwagamo n'abantu biri batera agapira undi akakamusubiza. Ni umukino mwiza, umukino w'abantu babiri utarimo akavuyo.

Abakinyi bakinaga umukino gw'amaboko gwa Volebolo, gukaba ari umukino gukinwaga n'abakinnyi babaga ari batandatu batandatu, bagakinira ahantu heza kuri sima, ariko idashobora kubangiriza. Iruhande gwabo hari abatoza n'abasimbura, bashobora gusimbura mu gihe hari umukinyi umwe waba agize ikibazo.

Umugabo ukinaga tenisi ufite feri bifashishaga bari gukina tenisi, ahagaze mu kibuga cya tenisi , yambaye inkweto zifunze, inyuma ye hari uruzitiro.

Imyitozo ngororamubiri, zikogwaga n'abantu mu bujyo butandukanye mu gwego go kurengera ubuzima doreko zirindaga ingwara ndetse zikaba zanagufasha kuba wagira ubuzima buzira umuze, umubiri uzira indwara uko wiboneye.

Isiganwa ry'amagare, iruhande gw'umuhanda hari abafana bari gufanaga amagare, imbere yabo gato hari abanyamaguru bari kuyoboraga amagare ahantu ganyura, imbere y'amagare hariho umurongo abantu bambukiragaho bari kwambuka umuhanda, bava mu gihande kimwe baja mu kindi.

Urushundura rukoreshwaga mu mazamu, mu kurinda balo kuba yarenga izamu ngo igwe kure cangwa rugakoreshwa muri vole barurenza balo, mu gihe iguyemo ikabasha kuba yagwa hasi ukaba watsinzwe.

Amagare ari mu masiganwa kuri rompuwe, ari kuva hepfo ajya ruguru, iruhande rumwe rurimo abantu bari kuyafana, bahagaritse n'amamodoka abapolisi , kugira ngo atabasha kuba yateza impanuka cyangwa hakagira ibintu byangirika ,cyangwa abantu bapfa.

Umikino wa basikete, umukino ukundwa n'abantu benshi, ukaba uri gukinirwa ku kibuga cyawo n'abadamu, hari umudamu ufashe baro agiye gushira muri paniye, inyuma ye kuri stade harimo abagabo n'abagore n'abana baje gufana uwo mukino.

Umuhanda urimo umwana w'umunyeshuri, imbere yaho hari inzu ikorerwamo ubudozi, iriho n'ibitambaro badodamo imyenda abanyeshuri bambara, cyangwa abantu batandukanye.

Umuhanda uri kugendwamo na moto, igare. abanyamaguru, iruhande rwaho hari inzu, umudamu wicaye, ruguru hari gitari ndetse n'akantu k'agapangu gahari.